Abantu bane benda kugera muri kaburimbo, iruhande rwabo hari imodoka, hakurya yabo hari ikigo cy'amashuri, hari n'amatara agera kuri ane ari ku muhanda, agenda amurikira abagenzi.